Abanyeshuri batoya bambaye inifomu, amashati y'ubururu, amapantaro, ndetse bamwe amajipo y'umukara. Hahagazemo n'abandi bamama babiri batandukanye, buri umwe ari hepfo undi ari rugo, hanyuma hakurya hari ibyatsi bya dodo.

Ishuri ririmo abana batari bake bambaye uniform zimwe. Bafite ubutabo butandukanye. Imbere yabo hari ikibaho. Baraganira baraganira ku byo barimo kwiga, urugi rw'ubururu.

Abana bahurijwe hamwe bicaye ku mukeka bamwe bambaye inifomu abandi nta nifomu bambaye, imbere gato hari igipapuro kiriho akana gasoma, ku gikuta hagiye hashushanyijeho utundi tuntu tw'abana.

Ni abana bahurijwe hamwe, bahawe imfashanyigisho bafite udutabo barimo kugenda bareba mashusho, babasobanurira bimwe mu byo barimo kubona, abandi babaza banaganira.

Abanyeshuri batandukanye, bamwe bambaye inifomu abandi nta inifomo bambaye, bavuye ku ishuri baragenda mu muhanda bakina baganira.

Ishuri abanyeshuri bicaye mu buryo butandukanye, bamwe bararebana n'abandi, mwarimu abahagaze imbere, yambaye itababuriya y'umweru, inkweto zisa cyatsi, ikibaho kirambitseho ibipapuro bari kwigiraho, abanyeshuri bambaye inifomu y'ubururu.

Amazu areba imbere afite inzugi z'icyatsi, ndwtse n'amabati bi icyatsi. Imbere gato hari akarima k'imboga, k rundi ruhande hariyo amazu atandukanye.

Ikigo cy'amashuri kiri ku muhanda, abanyeshuri bari hanze barimo barakina, bamwe barataha amasomo arasa n'arangiye n'abarimu barasohotse baragiye.

Akabati gafunguye karimo ibitabo byinshi bitandukanye bigiye bipanze kimwe hejuru y'ikindi kimwe hejuru y'ikindi. Hasi no hejuru gafite ibara ry'umutuku.

Utwana tubiri tw'utunyeshuri, harimo kamwe kavunitse, turimo dufatanye ku rutugu turi mu muhanda turataha tuvuye ku ishuri, bahetse utubaga tujya kumera kimwe tw'ibitienge ariko bitandukanye.

Hari igikoni kirimo mufero nini cyane, ku ruhande hariho inkwi, hagiye hariho utudirishya duto duto dutuma umwotsi usohoka, hakurya hari aka etajeri karimo ibikoresho byo mu gikoni.

Umunyeshuri ufite mashini urimo kugerageza kuyicomeka, ngo arebe ko yayikoresha, yambaye inifomo, inyuma ye hari igipapuro kiriho amasomo atandukanye bagenda biga, ikibaho.

Abanyeshuri barava ku ishuri, imvura yaguye cyane, mu muhanda harimo ikiziba. Bambaye inifomu zirimo ubururu. Ku ruhande gatoya hari igisambu kirimo insinga z'umuriro, hari ibiti byinshi birebire ku muhanda.

Abanyeshuri bari ku ishuri, bageze mu masaha y'akaruhuko, bamwe bari ku byicungo, abandi barimo baraganira, amasaha nk'aya buri wese barimo gukora ibintu bye ku giti cye aruhuka mu mutwe, kugira ngo abone uko asubira mu masomo ye.

Imbere gato hari intebe ya sheze, inyuma y'intebe hari igikuta kigiye kiriho impapuro zometseho zigiye zitandukanye. Harimo impapuro ziriho abantu ndetse ku ruhande rw'iburyo hariho urupapuro rusa pinki. Hejuru y'urwo rukuta hariho igisenge gisa ubururu kiriho utuntu tw'ubaho.

Umuhanda ndetse imbere gato hari akapa kagaragaza ishuri rya ekore purimeri, gusa imbere gato y'uwo muhanda haparitse amodoka, ndetse hari n'inzu kuruhande rw'iburyo yubakishijwe amategura, urundi ruhande rw'ibumoso hariho ibiti byinshi ndetse birebire.

Abanyeshuri bari ku idirishya ry'umuryango, inzu ifite umuryango usa shokora, ndetse bahagaze mu idirishya ryawo, bambaye inifomu, bambaye amashati y'ubururu n'amakabutura ya kaki, ni batatu, hirya gato hari igipangu.

Amashuri yegeranye afite imireko ijyana amazi mu kiga, hirya gato hari intoki, ibiti, ndetse amashuri afite amabati y'ubururu.

Abana b'abanyeshuri bambaye inifomo hejuru bambaye ubururu bwerurutse hasi bambaye kacyi, umwe muri bo yikoreye ibase y'ubururu barimo baragenda bagana mu ishuri, ndetse imbere yaho gato hari akandi kana gatoya kambaye ikabutura y'icyatsi n'umupira w'umuka ndetse gahetse n'akabaga.

Ikigo cy'amashuri abanyeshuri ni benshi hanze, hari abari ku byicungo abandi bahagaze mu dutsiko, baravugana bambaye inifomo, amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ya kacyi, abandi bambaye kacyi yose, hakurya hari amashuri, hepfo gato andi mashuri yubakishije amategura, hakurya hari ibiti birebire.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru ndetse bagiye bafite ibikoresho bitandukanye, hari abahagaze ku ruhande rwe hirya no hino bicaye, bafima bakurikirana imbere yabo hari akaravabo ndetse n'utundi tuntu coleni, inyuma hari umuryango.

Abanyeshuri ku ishuri basoje igihembwe, ubona ko bafite amamatera baratashye, bafite ibikoresho byabo bamwe baracyari mu kigo ntibarataha bose, ariko ni gahunda kuko amasomo yarangiye.

Abanyeshuri bari muri sale nini, bambaye inifomo, bafite amabaji mu ijosi, bamwe bambaye imipira, bahurijwe hamwe n'ikintu kimwe, barareba umuntu umwe ubitayeho imbere yabo babwira.

Mu kigo cy'abanyeshuri, bambaye impuzankano bateze amatwi ubagezaho ikiganiro, batuje kandi bari hamwe.

Abanyeshuri babiri bambayeni uniform amashati y'umweru, amapantaro ya kaki, ndetse n'inkweto zirimo amabara y'umukara n'umweru. Baragenda ku ruhande rw'umuhanda hepfo hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye, afite inzugi zisa icyatsi, afite akabaraza imbere yaho hari utubuye duto hirya gato hari ibiti.

Umunyeshuri umwe ahagaze imbere y'abandi afite mikorofone, arimo aragira ibyo ababwira, yambaye inifomu, ishuti y'umumweru, ipantaro y'ubururu, imbere ye hicaye abandi ndetse harimo n'uhagaze, bicaye ku meza iriho ibitamba by'umweru.

Umunyeshuri ari ku igare, agiye cyangwa avuye ku ishuri, igare ni ryo buryo akoresha mu rugendo rwe rujya ku ishuri ndetse runavayo. Ni bwo buryo yifashisha ajyayo.

Ahantu hari abantu bahuriye, bamwe bambayemo tishati z'ubururu, abandi bambaye inifomu zisanzwe, hari umumama wambaye umupira w'ubururu, ufite mikorofone, arimo guha mikorofone undi mwana ngo amusubize, inyuma hari inzu zifite amabara y'icyatsi.

Abanyeshuri benshi bicaye hamwe bateze amatwi urimo hagati ababwira yambaye umupira w'umukara n'ijipo yakaki bakikijwe n'amashuri yabo.

Ishuri ririmo abanyeshuri bambaye inifomo, amashati y'ubururu n'amajipo ya kaki, inyuma gato hari akayetajeri hejuru harunzemo ibitabo byinshi n'amakayi, imbere gatoya hari indobo ihateretse ifite amabara y'ubururu.

Icyumba k'ishuri harimo intebe abanyeshuri bicaraho, harimo ibipapuro abanyeshuri bifashisha mu kwiga, harimo ikibaho ndetse harimo na mare zigiye zirimo nk'ibitabo bigiraho, amacaki bakoresha, ishuri rifite urugi rw'ubururu ndetse ikibaho kiri imbere cyanditseho.

Ishuri, abanyeshuri baricaye, bicaye bose bareba imbere, harimo abahagaze, umwarimu ubigisha ari imbere arimo arabasobanurira, yambaye tishati y'umweru, agakoti k'umukara, ipantaro y'ubururu, ku ruhande hari abahagaze hafi n'idirishya.

Imodoka y'ishuri aho abanyeshuri bari kwinjiramo ndetse ihahagaze n'umusore urimo kubera ko binjiramo cyangwa yinjiza abana abereka n'uko bicara, inyuma gato hari utundi twana tutarinjira tw'utunyeshuri, hakurya imbere gato hari n'abandi bicaye kuri geti batarabona uko bataha.

Umumansera mukuru wambaye ijipo y'umukara ndetse n'ishati y'ubururu n'ivara ry'umweru mu mutwe, ari mu muhanda arimo aragenda, ndetse umupira w'icyatsi ku kaboko, hepfo ye gatoya hari ibiti byinshi cyane, inyuma ye hari abandi bantu, ni mu muhanda nyabagendwa, harimo n'abandi.

Ishuri rifite imiryango isa icyatsi, ndetse n'amadirishya asa icyatsi, amabati y'umweru, kuri iryo shuri hashushanyijeho ibishushanyo by'Afurika, imbere yaho hari utwatsi duke dukeya ndetse dukikijwe amatafari ya rukarakara.

Umuhanda w'abanyamaguru, hepfo gato hariyo utuntu tw'udupasiparume ndetse n'igiti kinini cyane, harimo abanyeshuri barimo barava ku ishuri bataha mu nzira ijya mbere, abandi baza bawusana. Hepfo gato y'iyo nzira hariyo amashuri afite amabati y'ubururu ndetse n'amabara y'umweru ku ruhande.

Ikibuga kinini cyane gikikijwe n'ibiti bitandukanye birebire bituma haza igicucu ndetse n'amapoto y'ikibuga, amwe ari hakurya n'andi akaba hino.

Igipangu kigizwe n'utugiriyaje duto dutoya, ku ruhande harafunguye ariko ahandi hafunze, imbere harimo akaravabo bakarabiraho, hakurya hari inzu n'urundi ruhande rw'iburyo hari akazu gato gateretse imbere y'intebe, hakurya handi hari ibiti byinshi cyane.

Abantu bari ahantu hamwe mu cyumba kimwe, bafite amamashini atandukanye, barimo barafatikanya gusobanura ibyo barimo gukora, hirya gato hari n'abandi bagiye bari mu dutsinda dutandukanye.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, bicaye hamwe, intebe zigiye zitondekanye buri ka meza, bose bagiye bafite ibyo kwandika imbere yabo, bafite ubahagarariye imbere arimo kuberekera ndetse nawe imbere ye hari akameza kariho computer, inyuma ye hari umuryango, bahujwe n'ikintu kimwe muri make.

Abantu bahuriye hamwe, bari mu cyumba kimwe, bafite ibyo baganiraho barimo babwirizwaho, imbere hari abarimo bababwira ibyo bababwira, ndetse barabagayidinga mubyo bakora.

Akapa kari mu kigo cy'amashuri cya UR, kanditseho sipoti cafetariyaa cyerekana ahari kafe, inyuma yaho gato hari ibiti birebire cyane, mukajaride hari amashuri afite amabati ya oranje.

Amazu afite icyapa kigaragaza ko ari laboratwari, afite amabati atukura hejuru, imbere hari akajaride, ndetse inyuma yaho gato hari ibiti byinshi bitandukanye.

Ni ku munsi w'icyumweru turi mu rusengero, abakristu barahari, ndetse n'abaririmbyi barahari, bambaye inifomu zisa, bambaye amakanzu y'umweru ndetse ku bipesu hariho akabara k'icyatsi, bafite ibitabo mu ntoki bibafasha kwibuka neza indirimbo baririmba.

Abantu benshi bahuriye hamwe bafite ibyo barimo gukurikirana. Inyuma hari cameraman. Ku rundi ruhande hari undi mukameramani. Bose bicaye hamwe bahanze amaso imbere. Ahantu bari harasa neza hafite parafo y'umweru ndetse n'amadirishya asa umweru.

Iki ni icyumba kirimo matelas ebyiri iruhande rumwe ndetse n'urundi ruhande. Inyuma harimo utubati. Hariho amarido asa umweru ariko arimo utuntu tw'umutuku twinshi.

Icyapa gito cyane ki muri UR, kigaragaza ko ari ishuri rya medicine, ndetse na farumasi. Amadirishya afite ibara ryirabura, ndetse gato hepfo ku madirishya hariho fani. Hasi aya mazu agifite ibara rya kaki, ndetse hasi hagiye hariho utubuye duto duto mu kigo.

Jaride nziza cyane irimo pasiparume ndetse ku ruhande hagiye hakikijwe n'utundi turabo, hanyuma hari ahari uturabo dufite amabara y'umutuku, hakurya hari ibiti birebire cyane, ndetse harimo n'akandi kayira, hagati yatwo hari ahaparitse imodoka.

Bahurijwe hamwe n'umugambi umwe wo kwiga ku byo barimo gukoraho, n'uburyo babikora neza bafatanyije.

Inzu yukishijwe amatafari ahiye ifite amaba atukura amadirishya arasa umweru, imbere gatoya hari utwatsi nk'akajaride na nyuma hakikijwe senyenge ifatanyijwe n'ibiti by'umutuku.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bahuriye muri sare imwe. Bafite machines imbere yabo bose. Bagiye bica bitandukanye. Bose barareba imbere. Imbere hariyo umwe ubabwira ibyo bagomba gukora no kubabwira uko babigenza ndetse usa nk'ubahagarariye.

Abantu batandukanye bicaye hamwe, barareba imbere bose ku ntebe zabugenewe, inyuma gato hari inyubako nziza, hejuru harasa umweru ndetse inyuma hari abantu bagiye bahagazeyo batandukanye.

Ikigo cy'abanyeshuri, imbere gato harambitseho ikaye ifite amabara y'umukara ndetse iriho ibishushanyo by'umutuku, hirya gato hariyo umusore wambaye umupira w'umweru, inyuma ye hagana ku idirishya hariyo n'izindi ntebe.

Abasore babiri bambaye amataburiye, bambaye na ga, imbere yabo hari imashini barimo bakoresha, ndetse ku rundi ruhande hari amacupa atandukanye barimo bakoresha mu byo bapima.

Ubwiza bw'ahantu nyaburanga hatuje hari ibyatsi amahumbezi ni yose ni ibiti bitanga igicucu.

Inyubako ya etage ifite amabara y'umweru igeretse inshuro eshatu, imbere gatoya hari akazu gatoya gahari gafite amabati y'ubururu, hahagaze abantu imbere yaho, hakurya harimo parikingi irimo imodoka nyinshi.

Inyubako ebyiri zitandukanye, inyubako imwe iri haruguru cyane y'ibindi biti birebire, indi iri ahagana hepfo, imbere y'iyo nyubako hariho ibintu by'ibiti bihashinze ndetse n'agapasiparume hasi cyane, inyubako ya ruguru ifite umuntu uyihagaze imbere uri muri telefoni, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru.